Abana b'abanyeshuri bicaye neza cyane, ku ntebe zabugenewe zifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Barimo guhabwa amasomo, ndetse bafite n'ibitabo bibafasha; mu kwiyungura ubumenyi. Bigaragaza iterambere mu burezi, aho abanyeshuri bitabwaho n'abarimu, ndetse bagahabwa n'ibikoresho bakenera.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'amashati ya buresiyeri ndetse n'amakabutura y'umukara. Bicaye bakikije ameza bafite ibitabo ndetse n'ibikinisho bitandukanye. Aho barimo guhabwa amasomo abategura mu mutwe. Ibi bikaba bigaragaza ireme ry'uburezi. Aho abana bakundishwa ishuri ndetse bakanatozwa umuco mwiza wo gusoma.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana bakiri bato cyane, biga mu kiburamwaka, ndetse bari kumwe n'abarimu babo, aho barimo kubasomera inkuru ndetse n'ibitabo bitandukanye, ibi bikaba ari mu byagaragajwe n'impuguke, ko gusomera abana ibitabo ndetse no kubaha ubwabo ngo basome, ari bimwe mu bibafasha mu gukangura ubwonko bwabo, bityo bagakura bakunda gusoma, ndetse banakunda ishuri.

Mu nyubako y'ikigo cy'amashuri hagaragara inyubako zitandukanye zikorerwamo ibikorwa binyuranye, harimo nk'iz'uburiro, uburyamo ndetse n'izindi, hagaragara kandi n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa, aho hari inzogera igaragara yifashishwa mu gihe bashaka kumenyesha abari mu kigo gukora igikorwa runaka, cyangwa se bababwira ko isaha runaka irangiye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abatanga serivisi z'uburezi, harimo nk'amarati, isaaha, ameza ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bigaragara mu byumba bitandukanye by'amashuri, igihe abarimu barimo gutanga amasomo yabo nka bimwe mu bibafasha mu gutanga ingero ndetse no kunoza imitangire ya serivisi z'uburezi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi z'icyatsi ndetse n'amadirishya y'ibyuma itangirwamo serivisi z'uburezi, aho abanyeshuri bitabira bagahabwa amasomo atandukanye yo kubafasha mu buzima bwabo ndetse n'amasomo y'ubumenyingiro na siyansi bibafasha mu kwiteza imbere, ndetse no kugira uruhare mu guteza imbere igihugu cyabo.

Abana benshi bicaye bakoze uruziga mu kibuga aho bafite ibitabo bari kumwe na mwarimu wabo, aho arimo kubafasha gusoma ndetse no gusobanukirwa amagambo amwe n'amwe y'Ikinyarwanda; iyi akaba ari imwe muri gahunda za Leta zifasha abakiri bato gukundisha kubakundisha gusoma, aho bahabwa inyigisho zitandukanye cyane cyane ziganjemo iz'amashusho, kugira ngo bikangurire ubwonko bwabo gukurikirana amasomo ndetse no gukunda gusoma.

Urukuta rwo ku bitaro kwa muganga ahamanikwa amatangazo atandukanye, hariho itangazo riri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'irindi riri mu ibara ry'umweru. Ibi akaba ari mu buryo bukoreshwa hirya no hino mu nzego za Leta, mu kumenyesha abahashakira serivisi, babaha amatangazo y'ibikorwa bitandukanye bibera aho bakeneye izo serivisi.

Hirya no hino ku mashuri, hagaragara ibikoresho bitandukanye harimo nk'intebe, ameza, utubati, n'ibindi. Hari kandi ibikoresho byabugenewe bifasha abanyeshuri kugira ngo bahabwe ubutumwa, aha twavugamo nk'inzogera. Iyi akaba ari inzogera ikoze mu cyuma, aho mu kigo cy'amashuri yifashishwa mu gutanga ubutumwa cyangwa se mu kumenyesha abari muri icyo kigo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati ya bureseyeri ndetse n'amajipo ya kacyi, aho bahagaze imbere y'icyapa kinini cyane kigaragaza ikigo cy'amashuri baje kwigaho, ndetse na kirazira n'indangagaciro iki kigo kigenderaho, nka bimwe mu biranga ibyapa hirya no hino ku bigo bya leta.

Mu cyumba cy'ishuri hagaragara abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe aho barimo gukurikirana amasomo yabo, imbere yabo hari mwarimu urimo kwigisha ndetse aha mugenzi wabo urugero, aho barimo kwifashisha ibikoresho bitandukanye byabugenewe nk'amarate, ingwa ndetse n'ibindi mu rwego rwo kunoza imyigishirizirize.

Icyapa kinini cyane gifite ubuso bw'umweru kirimo ikirangantego kigaragaza ahakorera diyose ya Butare ndetse n'ikirangantego bagenderaho. Ibi byapa bikaba biboneka hirya no hino mu rwego rwo gufasha abaturage bibarangira bibereka ahatangirwa serivisi runaka cyangwa ahasangwa ibigo runaka.

Icyumba cy'ishuri gitangirwamo serivisi z'uburezi, aho abanyeshuri baza bagahabwa amasomo atandukanye abafasha mu buzima bwa bo bwa buri munsi ndetse azabagirira akamaro mu gihe kizaza biteza imbere ndetse banahanga udushya muri sosiyete.

Urubyiruko rw'abanyeshuri bambaye impuzankano bahuriye mu kibuga, aho barimo guhugurwa n'abashinzwe inzego z'umutekano, babungura ubumenyi ku bijyanye n'ihohoterwa ndetse n'icuruzwa ry'abantu, nka bimwe mu byari byugarije Abaturarwanda mu myaka yo hambere.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe bicaye neza cyane ku ntebe zabugenewe, imbere yabo hari abayobozi bambaye amakoti ndetse n'amashati aho baje kureba uko ibizamini birimo gutangwa ku masite atandukanye harimo kubera ibizamini bisoza ibyiciro by'amashuri bitandukanye.

Umwarimu wambaye impuzankano yabugenewe, yicaye mu cyumba cyagenewe abarimu, aho bategurira amasomo yabo, harimo ibikoresho bitandukanye bifashisha mu kazi kabo, harimo nk'ibitabo, amakayi ndetse n'ibindi, hari kandi ameza bicara bakikije mu gihe barimo gutegura amasomo yabo, bikabafasha mu kunoza akazi kabo ka buri munsi.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba bitandukanye by'amashuri asakaje amabati y'umutuku, ndetse afite n'ubusitani bwiza cyane imbere yayo. Ibi bigafasha abanyeshuri biga muri iki kigo kugerwaho n'umwuka mwiza bitewe n'ubusitani buri imbere y'iri shuri uzana umuyaga ndetse n'umwuka mwiza wo guhumeka, kubaza gushaka serivisi z'uburezi muri aya mashuri.

Abayobozi mu nzego za Leta, ubwo bari mu bikorwa byo gusura abanyeshuri hirya no hino ku mashuri, bareba ko bakoresha ibikoresho bahawe bigizwe na za mudasobwa, nka bimwe mubibafasha mu koroshya ireme ry'uburezi ndetse no kuzamura imitangire ya serivisi mu nzego zitandukanye za Leta.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe aho bari mu cyumba cy'ishuri barimo gusubiramo imyitozo mwarimu yabasigiye, bigaragaza iterambere mu burezi aho abanyeshuri bagira umwanya wabo wo gusubira mu amasomo cyane cyane bibafasha mu kuzamura ireme ry'uburezi ndetse n'imitsindire yabo.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ubuso bw'umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara kimenyesha abagana aha ngaha ko bahawe ikaze kuza muri iki kigo aho gikikijwe n'ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabo ndetse n'ibibuga bya basikete, amashuri ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye bigaragara mu kigo cy'amashuri.

Ku muhanda wa kaburimbo nyabagendwa, hagaragara urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe aho bavuye ku masomo yabo, barimo kugendera mu kayira kagenewe abanyamaguru, aho ibinyabiziga bitanyura, iyi akaba ari muri gahunda zashyizwe mu rwe rwo kunoza umutekano wo mu muhanda, hirindwa impanuka za hato na hato.

Urubyiruko rw'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru, ndetse n'ipantaro cyangwase ijipo y'ikigina, aho bari bahuriye i Kibeho kwa Yezu nyirimpuhwe mu bikorwa byo gusenga, iyi akaba ari hamwe mu hantu nyaburanga hasurwa n'abatari bake buri gihe uko umwaka utashye mu rwego rwo kubafasha mu kwiyunga n'Imana.

Abanyeshuri bari mu bikorwa by'umuganda, nka bumwe mu buryo bwo kwishakamo ibisubizo batozwa bakiri bato mu gihe bakiri ku mashuri, kugira ngo bazakurane isohokera indangagaciro ndetse na kirazira byo gukunda umurimo. Aho barimo kwitunganyiriza ikibuga cyabo cyo gukina mo umupira, bishakamo ibisubizo.

Abanyeshuri benshi cyane bahurijwe mu kibuga hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa ku bijyanye no kwirinda inkingi z'umuriro, aha akaba ari mu kigo cy'amashuri, ubwo bari basuwe na bamwe mu bayobozi babahugura kugira ngo bahabwe ubumenyi bakiri bato, bityo bajye kubiba izo mbuto nziza no muri bagenzi babo basize mu ngo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'irya kaki, aho bari ku mirongo barimo guhabwa amabwiriza n'umuyobozi w'ikigo mbere yuko batangira amasomo, ibi bikaba bikorwa hirya no hino mu gihugu mu buryo bwo gufasha abanyeshuri kugerwaho amakuru ndetse no guhabwa amatangazo atandukanye bagenderaho mu kigo.

Icyapa gifite ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse gifite n'inkingi z'umwe kiyobora abantu kibereka ko hari ikigo cy'amashuri. Ibi akaba ari ibyapa bigenda bigaragara hirya no hino mu rwego rwo gufasha abantu bibarangira ahaboneka serivisi cyangwa hatangirwa iyo serivisi runaka.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, aho arimo gutembera hagati y'abanyeshuri bari gufata amafunguro, iyi akaba ari gahunda yashizweho na Guverinoma y'u Rwanda ifasha abanyeshuri kubona amafunguro ku mashuri, nka kimwe mu bibafasha mu kunoza imyigire yabo ndetse bagazamura n'ireme ry'uburezi muri rusange.

Ikigo kinini cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye gikorotiriye, iruhande rwacyo hari umuhanda ndetse n'ibyapa biyobora abagenda muri uyu muhanda, bibamenyesha ibikorwa, bikorerwa muri iyi nyubako. Ibi kandi bigafasha n'abandi batazi aho bajya, kuba baranga, ndetse bakamenya amerekezo y'aho baherereye.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, aho barimo kuganirizwa n'umuyobozi wabo bahurijwe hamwe mu kibuga. Barimo guhabwa amahugurwa y'uburyo bakirinda indwara ndetse n'ibyorezo bitandukanye, bagira umuhati wo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabun buri gihe uko bageze ku ishuri.

Inyubako isize amarangi y'umuhondo ifite inzugi z'umukara; igaragaramo ibikoresho bitandukanye arimo nk'uburiri, amashuka, varise ndetse n'ibindi. Bigaragaza ko ari icyumba gicumbikamo umwe mu banyeshuri aho baba baragiye ku mashuri.

Icyumba cy'ishuri kigaragaramo ibikoresho kabuhariwe byifashishwa mu kunoza ireme ry'uburezi. Harimo ikibaho, projecteur, ameza ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abarimu igihe barimo kwigisha amasomo yabo. Hagaragara kandi intebe ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze bikenerwa mu kunoza imitangire ya serivisi z'uburezi.

Inyubako ndende cyane y'igorofa ifite igisenge cy'umutuku isize amarangi y'umuhondo ndetse ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane. Imbere y'aho hari inzira nyabagendwa igaragaramo urujya n'uruza rw'abantu. Iba igaragaza imigendere hagati y'abantu ndetse n'imitangire myiza ya serivisi.

Icyumba cy'inama kigaragaramo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakorera inama muri iki cyumba, gisiza amarangi y'umweru ndetse harimo n'intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze byakenerwa ahahurira abantu benshi mu gihe bungurana ibitekerezo cyangwa biga ku ngingo runaka.

Icyumba gisize amarangi y'icyatsi kirimo utwuma twagenewe kumanikwaho imyenda, hagaragaramo igitanda, matara, ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze, aha akaba ari ahacumbikwa n'abanyeshuri mu gihe baje gukurikirana amasomo yabo muri kaminuza kugira ngo bitabweho ndetse banagire ubuzima bwiza.

Inyubako izwi nka raboratwari hagaragaramo abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igihe abantu bari muri raboratwari igizwe n'amataburiya ndetse n'ibikoresho bibafasha mu kwirinda, aho barimo gukora ubushakashatsi, ibi bikagaragaza iterambere mu burezi ndetse n'ireme ry'imyigire riteye imbere, aho abanyeshuri bashyira mu ngiro ibyo biga.

Inyubako nziza cyane ifite igisenge cy'umutuku, isize' amarangi y'umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere yayo hamanitse icyapa kigaragaza ibitangirwa muri iyi nyubako, iyi akaba ari imwe mu bigaragara hirya no hino ku nyubako ndetse n'ahakorera ibigo bitandukanye, bifasha abaturage kuyobora ndetse no kumenya aho bashakira serivisi zitandukanye.

Inyubako isize amarangi y'umweru cyane, yubakishije kandi amakaro, ikorerwamo ibikorwa byo gushyira mu ngiro ku banyeshuri ibyo bize, izwi nka laboratwari, aha hakaba ari abanyeshuri bajya bashyira mu ngiro ibyo bigiye mu ishuri, bityo bikazamura ireme ry'uburezi ndetse bikanabafasha mu kuzamura ireme ry'imitsindire.

Mu bigo by'amashuri hirya no hino hagaragara ibyumba byagenewe gusomerwamo, by'amasomero rusange, aho abanyeshuri bajya gusoma ibitabo bitandukanye ndetse bakanakora ubushakashatsi ku nyandiko zitandukanye, cyane cyane zijyanye n'ibyo biga kugira ngo biyungure ubumenyi. Hagaragaramo ibitabo by'amasomo ndetse n'ibindi bibafasha kuruhuka mu mutwe, ndetse no kumenya ubumenyi rusange.

Inyubako nini cyane yasize amarangi y'umuhondo ndetse n'umukara ikaba yanditseho icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru. Ibi bikaba ari ibyapa bigenda bigaragara hirya no hino ku mazu ndetse no ku mihanda bifasha abaturage, bibarangira ahatangirwa serivisi runaka cyangwa se aho ibigo runaka bikorera.

Inyubako nziza cyane ya raboratwari irimo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, utubati, ndetse n'ibindi, yifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bashyira mu ngiro ibyo biga, ibi bikagaragaza iterambere mu burezi, aho abanyeshuri bahabwa ireme ry'uburezi rifutse bashyira mu ngiro ibyo biga umunsi ku wundi.

Inzira nyabagendwa irimo kugendadwamo n'abantu batandukanye, ikikijwe n'amazu menshi ndetse n'ubusitani bwiza cyane bufite amatara abumurikira mu gihe cya nijoro bigafasha mu koroshya ingendo, ndetse no gutanga umutekano ku bakoresha bene izi nzira hirya no hino mu Gihugu.

Inyubako ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'umukara, irimo intebe nziza cyane z'aho bicara ndetse n'aho kwegamira igaragara muri kaminuza y'u Rwanda, aha hakaba ari ho abanyeshuri bafatira amasomo yabo ya buri munsi bitabwaho n'abarimu, ndetse banabona ibyangombwa nkenerwa kugira ngo bazamu ireme ry'uburezi.

Icyumba cyahuriyemo abantu b'ingeri zitandukanye, aho barimo kureba imashini kabuhariwe zifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zinyuranye, aha akaba ari mu bitaro kwa muganga, ahaba ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kunoza serivisi z'ubuvuzi, bikazamura ireme ry'imitangire ya serivisi mu buvuzi, mu Rwanda.

Icyumba cy'isomero kirimo ibitabo bitandukanye, aho biteretse neza ku tubati twabugenewe dusize ibara ry'umuhondo, aha hakaba ari ku kigo cy'amashuri, aho abanyeshuri baza bagasoma ibitabo bitandukanye ndetse bakaniyungu ubumenyi binyuze mu gusoma inyandiko n'ibitabo bitandukanye biboneka hirya no hino mu masomero ku mashuri.